Mu ishuri rifite ikibaho cyicyatsi , gishushanyijeho ibintu bitandukanye harimo intebe za pipitire zikozwe mu mbabari , ndetse n'ibyuma . Nta muntu uri mu ishuri , ni ryonyine.

Abanyeshuri bari kwiga imyuga n'ubumenyingiro. Bambaye amasarubeti y'ubururu bwijimye. Harimo abakobwa babiri, ndetse n'umuhungu umwe.

Abanyeshuri bari kwiga kudoda imyenda bakoresheje imashini yabugenewe. Abanyeshuri batatu bambaye ibisarubeti by'ubururu bakurikiye ibyo mugenzi wabo ari gukora.

Abanyeshuri bari kureba mu gikoresho cyifashishwa mu kureba neza indwara umuntu arwaye, kitwa mikorosikope. Ni abakobwa babiri ubona ko bari kwitegereza, kugira ngo bamenye indwara umurwayi afite.

Abanyeshuri bari mu ishyamba bafite utwuma tujomera, kugira ngo bamenye aho ibyo baje gusura biherereye, umwe ari kumwereka n'intoki undi yadushyize ku maso, ari kureba ngo amenye aho inyamaswa ziherereye.

Abatetsi batatu bari mu gikoni bari guteka, bambaye iniforume, ingofero y'umweru, ishati y'umweru, bafite amasafuriya bari guteka kuri gaze. Ni ahantu heza, igikoni gisa neza cy’amakaro, gitanga ibiribwa biryoshye.

Ibikoresho by'abakanishi, umukanishi akoresha mu gihe ari gukanika imodoka, moto harimo amasupani, harimo amapensi, harimo ga cyangwa se intoki zo kwambara, byose birambitse ahantu hamwe.

Abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro bari mu ishuri, aho bari gukora ibyo bize, babishyira mu bikorwa bakoresheje amaboko yabo.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti, bari mu ishuri, bari kwiga ubumenyingiro, bari gupima hasi ku kibaho cyabugenewe, cyifashishwa n'abiga ubumenyingiro.

Abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro bari mu ishuri, bambaye amasarubeti y'ubururu n'ibigofero by'umuhondo nk'abubatsi. Bari kugenda bakanika ibyuma bitandukanye, n’abarimu babo bahagaze hagati yabo.

Abanyeshuri bari gusudira amadirishya, inzugi, abandi bari gukanika ibindi bikoresho bambaye amapantaro y'ubururu n'amashati y'ubururu. Ndetse n'amasarobeti y'ubururu ari gukoresha ibikoresho byabugenewe bicomekwa ku mashanyarazi.

Agakiriro harimo abagore benshi bari kubaza. tumenyereye ko umurimo wo kubaza ari uw'abagabo, ariko mu gakiriro harimo abagore gusa bari kubaza, bari gukora ibikoresho bitandukanye mu mbaho, bambaye ingofero, bambaye amajipo, n'ingutiya, ariko bari ku kazi barishimye.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, bari kubigisha kuvura abantu bakoresheje igikoresho cyabugenewe. Bari mu cyumba kirimo ibishushanyo bitandukanye.

Abaganga bambaye udupfukawa, bambaye imyenda y'umweru, ingofero mu mutwe, bafite urushinge mu ntoki, bari gukura umuti muri serumu, bashaka kuwutera umurwayi. Abaganga bafasha abarwayi kugira ngo ubuzima bwabo busubire ku ku murongo.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe hanze bari kwandika. Hari umwarimu uri kubafasha agenda aberekera. Abanyeshuri benshi ariko bafite ubucucike kuko intebe yicayeho abantu batatu cyangwa bane.

Umubyeyi w'umumama arahagaze afite imashini yogosha, umugabo aricaye amushyizeho igitambaro kimurinda ko imisatsi yamujyaho, ari kumwogosha rwose neza. Iruhande rwe hari ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa muri saro yogosha, ikora n'ibindi, itunganya ubwiza.